Umugabo n'umugore, imbere yabo hari agafuka hari n'agapaniye, ako gapaniye kakaba karimo ibintu bisa nk'aho ari ifumbire, mu bigaragara bari gutera imyaka mu buhinge buri aho hantu bari.

Umukobwa uhetse icyuma cyangwa ipompo, arimo kuhira imyaka nk'imboga akoresheje iyi pompo. Yambaye uturindantoki tw'ubururu, arimo guseka yambaye agapira k'umukara.

Ubwoko bw'imboga bisa nkaho ari uruyuzi rw'icyatsi rutoshye, ariko ruteye ahantu ho mu gipangu kuko hakikijwe n'igipangu cy'amatafari ahiye.

Umurima urimo imyaka ariko harimo imyaka isa nkaho yishwe n'izuba n'indi y'imyumbati irimo igaragara nkaho yo itakubiswe cyane n'izuba, harimo ahantu bigaragara ko nta mvura iheheruka kugwa, imyaka ni yo mpamvu imwe yumye.

Ibirayi ariko bikiri mu murima, bikiri mu itaka, byakuwe ariko bitavanwe ku biti byabyo, ibirayi by'umweru binini, ariko harimo n'uturayi dutoya tugera kuri tubiri.

Ibigori byeze binini hariho umuntu w'umugabo asa n'uri kwerekana ibyo bigori, yambaye amarinete ari gutunga urutoki muri uwo murima w'ibigori.

Umurima uteyemo imyumbati, hari imyumbati yakuwe irunze ahantu ariko hari ibindi biti by'imyumbati bitarakugwa biri aho hantu.

Umugore uri ahantu mu buhinge asa naho ari gutera imyaka cyangwa imbuto, ari ahantu bahinze hakase, hakase neza, ubutaka buteguye neza, busa nkaho buteguwe guterwamo imyaka.

Umugore uri mu murima, asa nk'aho ari gutera imyaka, uwo murima urimo urutoki, harimo ubuhinge, arunamye yambaye igitenge, yiteze igitambaro mu mutwe.

Ibigori byumye bitonoye, bimanitse ahantu ku bwanakero, hariho umugabo uhagaze hagati yibyo bigori wambaye ikoti ry'umukara ishati igi gusa n'umweru n'ingofero.

Ibitunguru, karoti, kokombure, n'ibihaza, biri hariho n'ibase y'ubururu irimo na karoti nyinshi, hakaba hari n'ishashi isa nkaho irimo imboga, imboga z'icyatsi.

Tangawize ziri mu ibase, muri iyo base harimo n'agafuka cyangwa ihema, zikaba ziteretse hanze ahantu hari izuba.

Imiteja isa neza y'icyatsi, iri mu ibase ya move, iyi miteja isa nk'aho iciriweho, iratoshye, ni iy'icyatsi, isa nk'aho aribwo bavuye kuyisarura.

Ibihaza bikuze biteretse ku kameza bisa nkaho birimo gucuruzwa, biri hari izuba riri kubivira.

Umugabo cyangwa umusore wambaye ingofero y'umweru, agapira k'icyatsi, ipantaro y'umukara afashe igikoresho bakoresha bari kuhira imyaka; nawe ari muri icyo gikorwa cyo kuhira imyaka y'ibigori.

Ababyeyi babiri barimo kuhira imboga, imyaka, bakoresheje umupira w'itiyo, hari n'abana babiri basa n'aho bari kumwe n'abo babyeyi bari mu gikorwa kimwe cyo kuhira imyaka.

Umugabo wambaye agatishati k'icyatsi n'ipantaro y'ijini y'ubururu, afashe itiyo y'amazi, arimo kuyaminjagira cya kuyacocera ku myaka, cyangwa se ku bihingwa.

Amazu asakajwe n'amabati y'umutuku, ar'ahantu hasa nk'aho hatari hatar'ahantu ho guturwa, hepfo hasa nk'aho hari mu kabande.

Icyayi kiri ahantu hasa nko mu gasozi, hagati muri icyo cyayi harimo agahanda kanyuzemo kagakomeza kakagera ahantu ho ku rusisiro, ibyo bikaba biri ahantu ho mu musozi.

Ihene ebyiri ziri ahantu mu murima uteyemo imyaka, hirya gatoya yazo hari ibindi biti bisa naho ari birebire, izo hene ziri hafi kurisha.

Inka y'umukara, amaguru y'umweru isa nkaho iri ahantu ho mu kiraro hariho utwatsi imbere yayo bayihaye, isa nkaho iri kujya kuri utwo twatsi.

Inka ebyiri imwe y'umweru indi y'umukara, umwana mutoya w'umukobwa ndetse n'umusaza bakaba barimo kugaburira izo nka ubwatsi.

Umumama ufashe inka y'umukara, inyuma ye hari umugabo wicaye, hirya yabo gato hari undi mugabo wicaye ariko kandi hari n'inyubako y'inzu, iruhande rw'iyo nzu hakaba hari ibigega by'amazi bibiri.

Umusore ari hamwe ari kumwe n'inka, asa n'uri kuzitaho ari kuzikorera isuku, inka ni nyinshi z'umwe z'umukara n'iz'umweru.

Inyoni y'umukara ifite umurizo muremure, isa n'ikureba hejuru ugana mu ruhande rw'iburyo, ihagaze ku ishami, iruhande ahagana ibumoso hari ikibabi cy'icyatsi n'ikindi kintu cy'igiti nacyo cy'icyatsi.

Inyoni y'umukara ariko ifite akandi kabara hasi kagiye gusa nka oranje, ihagaze ku ishami ry'igiti, hariho n'ikibabi cy'icyatsi, inyoni isa n'iri kureba hejuru.

Inkende ihagaze ku ishami rinini ry'igiti y'umukara, ifite ubwoya bw'umweru nko hasi, ku nda. Ifite umurizo muremure isa nk'aho iri muri parike.